Ishusho yerekana ahantu bahinga ibihaza bateka. Hariho igihaza kinini kimwe.

Ahantu hari imifuka ebyiri irimo ibirayi, bashiramo ibirayi, n'igare rifite inzogera, n'umuntu watambukaga yerekera ahari hari ibirayi, yambaye igitenge n'inkweto z'umukara.

Hari isoko ry'ibitoki bengamo inzoga, ibitoki byinshi cyane cyane, inyuma yaho hagaragaramo abantu bacuruza biriya bitoki n'imyambaro, n'abafite udufuka bahahisha.

Ishusho yerekana igiti kinini cyane kiriho ibivoka binini cyane cyane biri ku giti, inyuma yaho hariyo ibindi biti.

Iyi shusho yerekana umugabo wambaye imyambaro, atwaye igare yashyizeho ibishyimbo byinshi cyane cyane. Ari kugenda, yagendaga mu muhanda w'igitaka, hirya ye hari insina nyinshi cyane.

Ishusho yerekana umugabo uri mu murima, ari gusanza cyangwa yanika imyaka ye, bahinga ubunyobwa.

Iyi shusho yerekana urukwavu rufite uturabyo mu ntoki, rugenda ruri kurisha ibyatsi ahantu ruri.